Umwana wagize ibibazo byo mu mutwe akajyanwa kwa muganga n'umubyeyi we, umubyeyi we wambaye neza iribaya ryiza cyane, ari kumwe n'umuganga uri gufasha umwana we ikibazo cyo mu mutwe kandi uwo muganga yambaye impuzankano z'akazi izwi neza neza nk'itaburiye isa n'umweru.

Umugore munini cyane wambaye ikanzu ndetse akaba yambaye n'ijiri y'akazi, yambaye n'agapfukamunwa na rinete, ari gupima umugore uteruye mwana ndetse no ku ruhande rwe hari undi mugore ufite ikintu mu ntoki, ari gupimwa rero uwo umugore kugira ngo harebwe umuriro afite.

Abantu benshi higanjemo umwana ndetse n'ababyeyi bane, baje ku ivomero bazanye amajerekani, amajerekani atonze imirongo bategereje ko babona amazi bagataha.

Umwana ukiri mutoya wambaye agapira gatukura n'agakabutura k'ubururu, ari kuvoma amazi yishimye, ari kuvoma amazi aturutse mu gihombo cya robine kandi ifite uduhombo tubiri.

Abanyacyubahiro harimo abagore, abagabo basa neza bambaye neza, bari kuganira ku kigendanye n'ubuzima bw'isi ndetse uburyo bagira ubuzima bwiza kuri ino si. Harimo abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko.

Imbaga y'abantu benshi bari mu cyumba kiberamo inama, higanjemo abazungu, abanyafurika ndetse kandi bari guhugurwa ku bigendanye n'ubuzima bw'Isi, uko ubuzima bw'Isi buhagaze cyane cyane ku baturage bayo, hari abayobozi ndetse n'ababishinzwe bari kubahugura.

Abantu bagiye batandukanye harimo abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko bambaye neza, bari kwifotoza, bamaze kurya ibiryo bitandukanye kandi bagize inama nziza yari yabereye mu cyumba.

Abana batoya bari ku mugezi ahantu hatangirwa amazi meza bariho baravoma kandi bazanye amajerekani menshi, umwe ari kubafungurira kugirango babashe kubona amazi.

Imbaga y'abantu bari kwifotoreza impande y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, higanjemo abagabo bambaye neza, amakote ndetse kandi n'amakaruvati kandi harimo abagore na bo bambaye neza.

Umugore munini ufite amazi mu ndobo ndetse ku ruhande rwe hari n'abandi bagore babiri bariho bararwana. Bariho bararwana bafite igikoni, umwe arashaka kukimwambura. Kandi bari hafi y'inzu nini ifite n'ibiti ku ruhande.

Akana gatoya kambaye imyenda isa ikozwe mu gitenge kari imbere y'igihombo gisohora amazi ndetse kari gukarabira imbere y'icyo gihombo amazi agwa mubati ni akana keza kishimye gafite udusatsi twiza twirende tubanze hejuru.

Umwana ukiri mutoya wagiye gukaraba amazi, ni kuri kandagira ukarabe haba hari akabasi ndetse n'indobo ibitse amazi hanyuma ugakandagira amazi akamanuka hanyuma ugakaraba, ni umwana ukiri mutoya kandi wambaye impuzankano y'ishuri

Abagore, abagabo, bazwi cyane nko gutanga ubuvuzi mu cyaro, bazwi ku izina ry'abajyanama. Bateraniye ahantu hamwe, bambaye impuzankano y'amasarubeti y'ubururu, kuko akenshi ni waba bambaye, baje kwiga ku bigendanye no guteza imbere ubuzima ku isi hose.

Umwana mutoya uri gukoresha amazi mabi yo mu bishanga, ari kugaragazwa ndetse ari kurebwa n'abandi bana bari hirya bariho baramurushunga bamureba bamuseka ndetse kandi ari hafi mu kabande ahantu hashunguka amazi menshi.

Abana bari ahantu haturuka amazi. Ni igihombo kizana amazi bambaye impuzankano z'ishuri izwi cyane cyane nk'amakake ndetse kandi bari imbere ya camera bari kwifotoza cyane bishimye ndetse banasuhuza ababakurikiye.

Ikigo cyita ku bana cyitwa UNICEF, gifasha abana bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane ku miryango, bikaba bibafasha kuba basubira mu mashuri, bakaha ibyo kurya, bakabaha n'inifomo zo kwigana.

Abagore babiri basa neza, bambaye neza, bameze nka ba nyakubahwa, bari kureba neza bicaye imbere y'ahantu hari igitambaro gisa n'ubururu, kandi wagira ngo bari mu kazi ka leta.

Igishushanyo cyiza kandi gisa neza, kiri mu ibara ry'umweru ndetse amagambo akaba yanditse mu ibara ry'umukara, handitseho imigaragarire ndetse kikaba gishatse kugaragaza ko ari Carolina y'Amajyaruguru ndetse kandi kikaba ari ikigo cyita ku buzima bw'aho hantu.

Abana bakiri batoya bariho baranywa amazi meza aturuka mu kigega ndetse kandi akaba ari amazi aturuka mu gihombo kizana amazi meza, ni amazi aba yaturutse ahantu bayagomerereye hanyuma hakaza ari meza, agakoreshwa mu kumesa, guteka n'ibindi.

Ku kigo cy'amashuri cyigamo abana bakiri batoya, hari umwana wambaye imyenda y'ishuri nk'ikanzu, ndetse kandi ari hafi y'igihombo cy'amazi gisohora amazi, yaretseho akaboko kugira ngo anywe.

Urubyiruko rwiza kandi rukeye, rwiganjemo abasore n'inkumi, bambaye impuzankano, kandi bambaye n'amakarita mwi izosi. Barasa neza, barakeye, bizeye ku bijyanye n'ubuzima bw'umuntu.

Abana batoya, bambaye imyenda y'impuzankano, bari kumwe n'umukobwa wambaye ingofero na rinete, akaba ariho abaganiriza, banasangira ibyo kunywa, hejuru yabo, hari umugabo w'umusirikare, ufite inkongoro ijyamo amata.

Umuganga wambaye impuzankano z'icyatsi kibisi ariho aravura ndetse ari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, yambaye agapfukamunwa n'igitambaro ku mutwe kugira ngo hatagira ibintu bimujyaho.

Inama ngari yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, harimo abanyamahanga ndetse n'abantu batandukanye. Bari kwigira hamwe uburyo icyorezo cya Mabarg cyahagarikwa, ni inama yabaye ku itariki makumyabiri z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na kane mu mujyi wa Kigali.

Ibikoresho bizwi nka kizimyamwoto kugira harokoke ubuzima bw'abantu bagiye batandukanye, bicometse ahantu ni ibikoresho bibiri bisa n'ubururu kandi ibyo bikoresho bikunze gukoreshwa igihe habaye inkongi y'umuriro.

Utuzu tubiri tubitse ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse kandi tukaba ari utuzu twiza, twegereye hafi y'ahantu hakorwa ibigendanye n'ingufu z'amashanyarazi kandi dufite isuku nziza.

Icyumba cyiza gisukuye, kirimo intebe nziza ndetse kandi kikabamo n'ameza abantu bakoresha igihe bicaye bari kwandika, ni icyumba gitangirwamo serivisi zigendanye no gutanga amahugurwa agendanye ku buzima, kandi hitabiriwemo abagore ndetse n'umugabo uri kuganira n'umugore.

Abakobwa ndetse n'abasore bicaye, ndetse imbere yabo hari amazi ndetse n'amakayi yo kwandikamo. Bambaye udupfukamunwa kandi bambaye n'impuzankano zatumye bateranira aho ngaho, bari kwiga ku kigendanye n'ubuzima bwa muntu.

Urubyiruko rwiganjemo abakobwa, abasore bambaye neza basa neza, bahagaze ahantu hamwe bari kwifotoza ifoto y'urwibutso kandi ni ahantu hari hateraniye inama y'urubyiruko kandi hari mu nyubako isa neza.

Inama ngari yitabiriwemo n'abantu bajya batandukanye kandi basa neza b'abanyacyubahiro, imbere yabo hari abari kubaganiriza ibigendanye n'imibereho myiza ndetse kandi no kugira ubuzima bwiza, ni inama yabaye, aho yateraniwe harimo abantu ba banyacyubahiro gusa.

Abana bambaye impuzankano, ndetse bakaba bambaye inkweto zisirimutse ndetse na karuvate, barasutamye kandi bari kureba imbere nk'abari kwifotoreza imbere aho ngaho.

Ababyeyi babiri bafite ijerekani ebyiri ndetse bagiye gushaka amazi, ni ahantu hatangirwa amazi ndetse bakanishyura, hazwi nk'ahantu hitwa kuri robine ndetse hatangirwa amazi ku buntu amazi afite isuku.

Umubyeyi ukuze, uri hafi y'ahantu hatangwa amazi meza, ari kuvoma amazi, ayashyira mu njerekani. Ni amazi afite isuku, ndetse kandi azayakoresha mu bigendanye no kumesa, ndetse no guteka.

Abana benshi b'abakobwa bambaye impuzankano z'ishuri zizwi nka juru, bari gufashwa kuvurwa ndetse no gusuzumwa indwara zigiye zitandukanye z'ibiza ziza ku bakobwa, ni umuganga uri gutera urushinge abo bana ndetse akabarebera ibibazo baba bafite.

Umwana mutoya w'igitambambuga, ari guseka ndetse ari kunywa amazi anakaraba amazi ahantu Ari guturuka mu gihombo. Ni umwana wambaye agapira gatukura kandi wishimye cyane, uri kureba abana ba kuruhande.

Umusore wambaye agapira k'umuhondo ndetse akaba ari n'umuhanzi, ari kwishimira umwana uteruwe na nyina kandi hirya ye hari n'abandi babyeyi bafite abana babateruye.

Umwana mutoya wambaye impuzankano z'ishuri zizwi nk'amakaki, ari gukarabywa n'umubyeyi we. Ndetse umubyeyi we yambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda nk'agapira keza, ari kumukarabya intoki kugira ngo zicye.

Umwana mutoya ufite ibikoresho bishyirwamo amazi ari kuvoma amazi ngo ayajyane iwabo nk'ikimenyetso cyo gukora amasuku ndetse gufura cyangwa se kumesa no kugira ibiryo bifite isuku n'ibindi bikoresho bishyirwa mu rugo.

Abana bakiri batoya cyane, bambaye impuzankano y'ishuri kandi bari hafi y'ahantu hari ibihombo bisohora amazi, bafite intoki zabo hariho isabune, bagiye gukaraba amazi meza kugira ngo ayo mazi abe yabakuraho iryo furo ry'isabune.

Abantu benshi baje kuvoma amazi meza, bamwe bafite indobo ndetse abandi bafite amajerekani, ni urubyiruko rwinshi rwiganjemo abasore, abakobwa kandi bari hafi y'ahantu hatangirwa amazi ndetse harimo amazi ariho asohoka mu bihombo kugira ngo bamwe bavome.

Umugore uri hafi y'ivomero, iryo vomero rikaba rifite ibihombo bibiri yaje kuvoma. Afite amajerekani abiri kuko arashaka amazi akora isuku ndetse no kumesa.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye mu cyumba gikorerwamo inama, bari kwigishwa ku bigendanye n'ubuzima bw'umwana, ni abaganga ndetse bari kwigishwa n'umugabo wambaye neza, uri kubahugura ku bigendanye n'ubuzima bw'umwana.

Umwana mutoya w'igitambambuga uri mu ibasi, uri kozwa n'umubyeyi we. Undi na we agiye kozwa ,ndetse ari kwireba akareba ahantu hagiye hatandukanye, undi mwana ari imbere y'igihombo gisohora amazi.

Abantu benshi harimo ababyeyi n'umugabo kandi uyu mugabo umwe ari kubabwira uburyo ki bafata neza abana babo, ndetse baje gupimisha abana babo kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze igihe bavutse.

Umusore wambaye imyenda yacitse, ipantaro yacitse, ishati yacitse, ndetse ufite umusatsi mwinshi wamwereyeho, yiziritseho ibikweto, afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu benshi bari kwifotoreza imbere y'icyapa kirekire. Kandi ni abantu biganjemo urubyiruko, abagore, abagabo ndetse kandi bambaye neza, barasa neza, inkweto nziza, ndetse abagore harimo n'abambaye amapantaro.

Abana bakiri batoya, bazwi cyane nk'ibisekiramwanzi, bari guseka cyane, ni abana beza bambaye impuzankano z'ishuri, ndetse kandi barishimye cyane bari guseka bishimye cyane.

Buri muntu wese ahantu hose afite inshingano ndetse n'uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza. Ni uburyo bwiza bwo kugira ubuzima buzira umuze ndetse ukaba wabaho neza, nta kibazo na kimwe mu buzima bwawe. Ni igishushanyo kibigaragaza.

Imbaga y'abantu benshi bicaye mu cyumba gitangirwamo amahugurwa ndetse bakanakigishirizamo ibintu bitandukanye, hicayemo abantu benshi abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bari kwigishwa ku kigendanye n'ibibazo by'ubuzima ndetse kandi bari kwigishwa ku kibazo cy'ubwonko.

Umugabo w'umunyacyubahiro wambaye neza kandi uri hafi y'ahantu hashyinguye abantu bazize jenoside. Hari indabo ndetse kandi ari kubunamira nk'ikimenyetso cyo kuba yabahaye icyubahiro.

Umukobwa mwiza wicaye, wubitse umutwe ndetse akaba afite amaboko yashyize ku mutwe. Ni umukobwa wasutse, washyizeho imisatsi ya menshi, bigaragara ko arwaye umutwe, ari kubabara cyane, akaba yubitse umutwe kugira ngo awushime ndetse abone ko wakira.

Abantu benshi biganjemo abantu b'abagabo ndetse n'abazungu, bari gukora isuku banatera ibiti ahantu batemye ibiti. Ni ahantu mu kigo gitangirwamo serivisi zigendanye n'ubuzima ndetse kandi gitangirwamo serivisi ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe.

Umugore wicaye uri kwibaza ibintu agiye gukora, yicaye ku gatebe kandi yicaye hafi y'ahantu cyangwa hasennye inzu. Inzu wagira ngo yarasenyutse hari ibinonko ndetse idirishya ryenda kuvaho.

Abantu bicaye mu ntebe z'abanyacyubahiro, bari kwigishwa ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse kandi imbere yabo hari umuntu uri kubibagisha, ababwira uburyo babungabunga ubuzima bwo mu mutwe.

Imbaga y'urubyiruko rwambaye imyenda isa nk'impuzankano, rwicaye mu cyumba kiberamo amahugurwa, bakurikiye ibiri kubera muri iyo nama ndetse bakurikiye nk'abafite inyota yo kumenya ikiri kwigwaho, ndetse no kuzagishyira mu bikorwa.

Abana, abantu bakuru ndetse kandi n'urubyiruko rwiganjemo abakobwa n'abasore, bazamuye utudarapo tw'igihugu cy'u Rwanda, bishimira igihugu cyabo ndetse kandi barishimye, bari guseka cyane.

Abagabo b'intarumikwa, bambaye imyenda myiza harimo n'abambaye amakote, bicaye ku ntebe abandi barahagaze, bari kwifotoza ifoto y'urwibutso ndetse banibuka kugira ngo ikintu kibateranyije aho kizabibutsa iyo foto.

Umugabo uri ku ifoto ndetse n'umugabo usa neza w'igikara wambaye ishati y'umweru ufite mikorofone, ari kubwira abantu kubyerekeye n'ibibazo by'ubuzima ndetse akaba ashishikariza abantu ku bafite ibibazo by'ubuzima kuba bafatwa neza, ni ku munsi yabivugiyeho wahariwe abafite ibibazo by'ubuzima.

Umwana mutoya basukiye imisatsi, ndetse kandi akaba yambaye impuzankano z'ishuri, harimo ishati y'umweru, ijipo y'umukara ndetse n'agakaruvati k'umukara, ari guseka cyane ,afite akantu ko kurya k'akabiswi.

Ikigo cyitwa isange wani sitopu senta gishinzwe gufasha abantu bahuye n'ibibazo bigendanye n'ubuzima nko kuba bafashwe ku ngufu. Ndetse ikigo cy'igihugu cya polisi nicyo kibigiramo uruhare runini cyane.

Urubyiruko rwinshi kandi rusa neza rukeye, rurimo abakobwa, abasore ndetse kandi harimo n'abazungu b'abagore ndetse harimo n'umwana uteruwe n'umuzungu. Bari kurya ifoto, bari kwifotoreza ahantu heza bamwe banicaye hasi bambaye n'amakoti.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, niho hantu haba ibikoresho bikomeye cyane by'ikoranabuhanga, habayo intebe ndetse bakagira ibikoresho bikura amenyo, haba mu buvuzi ndetse n'ahandi.

Umwana ukiri mutoya kandi ufite uruhu rwiza rukanyaraye, ari gufashwa serivisi zo mu kanwa kubera uburwayi bw'amenyo kandi ari kubifashwa na muganga w'amenyo ubifitiye ububasha ndetse no kuvura icyo kibazo.

Umuganga uri kuvura umuntu ikibazo cyo mu kanwa ari kumufasha, ni umukobwa ufite ikibazo cyo mu kanwa, mu menyo, ari kumufasha kuba yagira uburyo arikuramo kugira ngo ajye abona uburyo abaho neza.

Abana benshi bazamuye amaboko hejuru, bafite imiti y'amenyo ipfunyitse mu dushashi ndetse kandi n'abana bicaye mu ishuri mu ntebe z'ishuri, bambaye impuzankano z'ishuri kandi barishimye cyane.

Imbaga y'abantu benshi bambaye imipira y'icyatsi kibisi nk'impuzankano, bari gukora isuku mu menyo, ndetse kandi bari kwishimira, banaganira, bungurana ibitekerezo, dore ko imbere ku meza hariyo imiti y'amenyo ikora isuku mu menyo.

Abaganga babiri umwe yambaye agapfukamunwa ndetse undi yambaye ibikoresho byo mu ntoki, bafite ibikoresho bituma bavura umurwayi, umurwayi umwe araryamye bari kumufasha kumukura amenyo.

Abana benshi bicaye mu ishuri bishimiye ibikoresho bahawe byo gusukura amenyo kandi barishimye cyane kuko bari kubigaragaza baseka.

Icyumba gitangaje kirimo ubwiza buhebuje, harimo intebe z'ikoranabuhanga, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, giteyemo amarange meza y'umweru kandi harimo vandarateri n'igikoresho gikoreshwa mu kuzana akayaga.

Abantu benshi higanjemo ababyeyi bakuze bari kwifotoreza ahantu mu murima hahinze amasaka kandi bashyize amaboko hejuru bishimye ngo bakunde baboneko iyi foto yabagezeho.

Umwana ndetse kandi na nyina, bari gukina umukino mwiza, bari guseka ndetse kandi bicaye ku ntebe, umwana ari kwitegereza igisubizo kiri cyo, dore ko bari gukina umukino w'udupapuro.

Umugore ugaragara nk'aho akiri mutoya yambaye imyenda nk'iy'umuganga, ari gusekera umugabo, ari kumubwira ibintu byiza, bishobora gutuma agira ubuzima bwiza.

Umugabo ubyibushye ufite igituza kinini mu kuboko kunini ndetse akaba afite n'umutwe munini, ari kureba utunini, arya kugira ngo tube twamufasha kugabanura ibinure, yambaye imyenda nk'iy'abagore.

Umwana mutoya uri kumwe na papa we bari gukina umukino w'amaboko. Umwana afite umupira ari kuwirukankana, papa we ari kumucenga kugira ngo amufate amwake umupira, bari gukinira mu kibuga cyawo.

Umusaza usa nk'umugabo ariko ufite ubwanwa bw'mvi z'uruyenzi , ari kumwe n'umukobwa we bari kuganira ndetse anamwereka uburyo yakwivura indwara mu gihe arwaye nk'umuntu mukuru. Ari imbere ya mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Umukecuru mwiza usa neza, afite imisatsi mikeya kandi akaba ari gufashwa kuzamura amaboko anayishyira hirya ku ruhande, ari kubifashwamo n'umukobwa na we mwiza umeze nk'umuzungu.

Umuganga wambaye impuzankano z'akazi, ari guhereza umukecuru ibinini byo kugira ngo ajye yivuza igihe yarwaye indwara, akenshi abantu bakuze baba bafite uburwayi bw'abantu bakuze, ugasanga arwaye nk'umutima ndetse n'izindi.

Umugabo ndetse akaba ari n'umusaza ufite umusatsi w'imvi z'uruyenzi, afite ndetse n'uruhu rw'abasaza. Ari kwishimana n'umukobwa w'umwana we ndetse kandi ari kumushimisha amuha udukinisho, bakina nk'ababyeyi ndetse n'umwuzukuru.

Umusaza w'ibigango ufite uburyo abayeho mu buzima bwiza, afite imvi z'uruyenzi, ari kwishimana n'umugore we kandi na we afite uburyo ki abayeho neza. Bafite ibikoresho by'amasahani, biriho imboga n'imbuto.

Umusore wavunitse ndetse afite imbago, ari kwiga kuyigenderaho. Yambaye furari ni izosi ndetse ari kumwe n'umugore uri kumufasha kuyigenderaho mu buryo bwiza. Kandi uwo mugore afite igikapu mu ntoki.

umukobwa mwiza wasutse imisatsi, uri kumwe n'umukecuru ufite imvi z'uruyenzi akaba afite umubiri washaje, bari guseka bishimye cyane, bari kuganira kubyerekeye ubuzima bwabo.

Umugabo munini wicaye ku ntebe wambaye ishati y'ubururu w'igikara, yambaye agapfukamunwa, ari kumwe n'umugore w'umuganga ari kumupima ikibazo cy'umutima, kugira ngo yumve ko hari ibibazo by'uburwayi yaba afite.

Ababyeyi harimo abakuze bari kwitabwaho n'abaganga babifitemo ububasha ndetse banabihuguwe bakanabyiga, bari guterwa ishinge bari kuvurwa ndetse kandi bari gusuzumwa zimwe mu ndwara barwaye.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zo gutanga inama ku buzima ndetse n'ubushakashatsi. Hatangirwa inama ku bantu bafite aho bahuriye n'ubuyobozi, hariyo abatanga inama ndetse n'abitabiriye ibyo byigisho by'uwo munsi.

Abantu benshi kandi higanjemo abagabo, abagore bari kwiga ku bigendanye n'inama y'igihugu ndetse yita ku bantu bafite ibibazo by'ubwandu muri Afurika yose.

Hano hari ibimenyetso bigaragara by'indwara ya diyabete. Icya mbere ni ukumva ufite inyota nyinshi cyane, icya kabiri ni ugukenera kujya kunyara ndetse kujya mu bwiherero kenshi, ikindi ni ugutakaza ibiro.

Abayobozi bakuru bambaye neza ndetse higanjemo abasore n'abazungu haba abagore b'abazungu ndetse n'abagore b'abazungu n'abirabura, bari kwifotoreza imbere nk'ikimenyetso gisa nk'aho icyari kibateranyirije aho ngaho kirangiye.

Ahantu hari abantu bagiye batandukanye, abagabo, abagore. Ni mu cyumba gitangirwamo inama ku byerekeye n'ingamba zo kugira ubuzima bwiza, ndetse n'uburyo umuntu yagira ubuzima bwiza igihe abaye muri ubu buzima. Ni ahantu hateraniye abayobozi b'abanyacyubahiro basa neza cyane, banambaye neza.

Agapapuro kari kugaragaza inyandiko yanditseho ijambo mu cyongereza kandi iryo jambo rikaba rivuga indwara zitandura, harimo diyabete, umutima ndetse n'umuvuduko, muri izo ni zo twavuga.

Abanyacyubahiro harimo abagabo bambaye neza ndetse n'ababyeyi basa neza cyane, bari imbere ya kamera bari kwifotoza ifoto nk'ikimenyetso ndetse kandi nk'urwibutso ruzabibutsa igihe bari bara aho ngaho bahateraniye.

Inkwakuzi mu bigendanye n'ubuzima bambaye impuzankano z'akazi kandi bipfukiranye, bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyenda ibapfuka umubiri wose, ni abaganga mu by'ubuvuzi.

Umuhanda umwe ndetse kandi ufite undi uyishamikiyeho n'imihanda igera ku kigo nderabuzima cya CHUB, gifite kandi kivura indwara nyinshi zitandukanye. Hatangirwa serivisi z'ubuvuzi ndetse zifite aho zihuriye n'ibibazo bigendanye n'uburwayi.

Imbaga y'abantu benshi higanjemo urubyiruko, abakobwa n'abasore batonze umurongo baje gufata serivisi z'ubuvuzi, kuko bicaye ahantu heza kandi ho kwa muganga.

Ivuriro rinini kandi rigari, icyumba gisa neza haba hasi ndetse no hejuru, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibitanda bigezweho kandi na vandarateri zikurura umuyaga mwiza muri iryo vuriro.

Icyumba cyiza gisa neza kirimo intebe nziza n'ameza, gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ni icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi bisa neza, intebe nziza z'imisego n'ameza asa neza cyane.

Abaganga bane bambaye impuzankano z'akazi kandi bambaye n'udupfukamunwa nk'abaganga, bari hafi y'ikigo nderabuzima cy'ababyeyi cyitwa materinite, ni aho abagore babyarira abana.

Inyubako nziza ifite ibyumba bisukuye bisa neza kandi harimo imihanda cyangwa se utuyira twinjira mu byumba byiza, ni ibyumba birimo abarwayi abaganga bakunze kuba bakoresha bari kuvura.

Inyubako nini iriho abantu batatu ndetse inyuma hicaye umuntu utegereje ko bamufasha, ni inyubako ikorerwamo serivise zo kuvura kuko yanditseho ikigo nderabuzima cya Gashwegu.

Inyubako ndende y'amagorofa ifite icyapa kigaragaza serivisi itanga zigendanye n'ubuvuzi ko hifashishwa mituweli Britamu ndetse n'izindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Inzu ndende yubatse mu buryo bw'amagorofa, ifitemo gutanga serivisi zitandukanye, kandi hariho icyapa cyanditsweho mu nyuguti zo mu Cyongereza, hariho n'umubare cumi na kabiri.

Umwana wicaye kwa muganga, ari kwitabwaho n'abaganga, ndetse abaganga bambaye imyambaro yabugenewe mu kazi. Bafite ibikoresho byabugenewe mu kuzuzuma no kuvura uwo mwana urwaye, ari kumwe n'undi mufasha we.

Ahantu heza hari ibiti by'ubusitani, indabo z'ubusitani ndetse hubakiye neza, hakaba hari amazu agaragara nk'ibitaro bya Nyarugenge ndetse hari inyubako nziza zimeze neza, abantu benshi bahakunda kubi.

Inyubako nini zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, haba ku bagore, abana ndetse n'abagabo, ni ibitaro ndetse bitangirwamo serivisi zitandukanye nk'izo mvuze haruguru kandi aho hantu hakaba hari jaride nziza ndetse n'ibiti byiza bikurura umuyaga.

Inyubako nini cyane, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, irimo ibitanda bijyanwaho abarwayi, kandi harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa igihe abaganga bari kuvura abarwayi bareba uko ubuzima bwabo buhagaze.

Inyubako nini yubatse mu buryo bw'amagorofa itangirwamo serivisi zidedanye n'uko umuntu aba yavutse ndetse kandi hatangirwamo n'izindi serivizi zitandukanye, ni ahantu heza hari ubusitani bwiza ndetse n'umuhanda uyobora abagiye.

Ivuriro ryiza kandi rifite ibyumba bigiye bitandukanye. Harimo utumeza ndetse n'intebe abantu bicaraho bakarindira igihe baza babikira kandi baraza bakicara, imbere harimo uba uri kubafasha.

Ababyeyi babiri bavuye kwa muganga, mu buryo bwo kuvurwa ndetse kandi bavuye no kwipimisha kuko baratwite, hariyo abana baje no gufata ubuvuzi kuri icyo kigo nderabuzima.

Abanyamahanga abo dukunze kwita abazungu, bari hafi y'ibitaro. Bari kwifotoreza imbere y'icyapa cyanditse Butaro hospital. Bari kwifotoza, bambaye neza ndetse harimo n'abirabura ntabwo ari abazungu gusa.

Icyumba gisa neza gishashagirana, kirimo ibikoresho byiza by'ikoranabuhanga, higanjemo intebe, ameza, ibitanda. Ni ku ivuriro harimo ibitambaro bikikirije ibirahure muri icyo cyumba.

Ubusitani bwiza busa neza kandi hakaba hari ibyatsi bisa neza kandi hakaba hari ibiti bikurura umuyaga, ni ahantu haritangirwa serivisi z'ubuvuzi kandi ni inyubako ndende isa neza, ihuriramo abantu bagiye batandukanye.

Icyumba cyiza gishashagirana gisa neza, gifite ubwiza butangaje kandi n’icyumba kibitse ibikoresho by'ikoranabuhanga, nka za mudasobwa ndetse n'imashini zisohora impapuro, harimo kandi n'intebe zicarwamo.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, haryamyemo umuntu urwaye ari kwitabwaho n'abaganga bagiye batandukanye, abari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bareba ubuzima bwiwe mo imbere ndetse kandi abaganga bambaye imyenda yabuhariwe mu kazi.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bw'amagorofa ifite ibirahure byiza kandi bishashagirana, yubatse hafi y'ibiti by'ubusitani kandi ikaba ifite ubwiza butangaje, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Umuganga w'igikara wambaye itaburiya y'akazi ndetse akaba yambaye n'igikoresho kivura kikanapima umutima ndetse no mu gatuza, ari guseka. Ari gutanga serivisi ku barwayi ndetse aranabishimiye.

Icyumba giteyeho amakaro meza ameze nk'ikirori hasi kuko uba wireba, ni icyumba gifite imiryango isa neza ndetse n'inzugi zisa neza, gifite parafo nziza y'ibirahure iteye mu buryo butangaje cyane.

Inyubako nziza imeze neza kandi irimo ibikoresho byiza by'ikoranabuhanga, harimo igishushanyo kigaragaza ababyeyi n'umwana bamufashe kandi harimo intebe, ameza na televiziyo y'ikiromba ndetse kandi harimo na mudasobwa.

Abagore babiri bari mu cyumba gisukuye ndetse aba bagore harimo umuganga wambaye impuzankano z'akazi, akaba aturuye n'umwana mutoya umaze iminsi avutse. Ndetse ari kumwe n'umugore wambaye rinete, wambaye ikanzu y'ubururu. Bari mu cyumba gisa neza cyane.

Icyumba gisa neza gisukuye gishashagirana kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bihenze, yaba hasi yaba hejuru mo hejuru hari vandarateri, hasi hari ibikoresho byiza by'amapine kandi bikoreshwa kwa muganga.

Ikigo kinini gitangirwamo serivisi zubuvuzi. Ni inyubako ndende kandi iringaniye. Hari ubusitani bwiza n'icyapa kirekire kiyobora abantu bose baje gufata serivisi aho ngaho. Kandi haba hari abagore, abagabo n'abana baje gufata serivisi.

Indabo nziza z'icyatsi kibisi ndetse hakaba hari umuhanda unyuramo abantu bagiye batandukanye kandi hari amazu atangirwamo serivisi zigendanye n'ubuvuzi kandi ni ahantu heza hashashagirana hasa neza cyane.

Ubwiza bw'ubuzima ni inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi nka farumasi. Itangwamo imiti ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi, baraza bakagura iyo miti ndetse ikaba yabafasha ku kibazo bafite.

Inyubako nini ifite ibyumba bidasanzwe ndetse na parafo hejuru imeze neza, ni icyumba gifite isuku ndetse kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo intebe ndetse n'udushushanyo twiza tw'abana.

Umurwayi waje kwivuza ari kubazwa na muganga ikibazo afite, ni umuganga ukiri mutoya, wambaye itaburiye y'ubururu ndetse hakaba hari n'undi muganga wambaye itaburiye y'umweru, uri kubaza ibyo bibazo umurwayi.

Inyubako nini kandi ifite icyumba gisa neza gifite isuku gisa n'umweru gishashagirana, harimo umuganga uri gushaka amakuru kuri za mudasobwa ndetse kandi akaba yashaka amakuru agendanye n'umuti afite mu ntoki uri mu gacupa.

Icyumba gisa neza, gisukuye rwose ndetse kikaba kirimo ibikoresho nk'ibitanda, intebe ndetse n'utwumba tugiye dutandukanye, hakaba harimo n'ibitambaro bipfuka ahantu. Ndetse hari umuganga uriho uhita ugenda ujya kuvura, anafasha abarwayi.

Abantu benshi, biganjemo abagabo, abagore, kandi harimo abirabura n'abazungu. Bari kwifotoza ifoto. hafi y'inzu igaragaza ko ari ibitaro, cyangwa se ari ivuriro, rya Rwamagana.

Inyubako nini kandi isa neza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ni inyubako ihora ifunguye kugira ngo abahagana bose basange hafunguye, hanze hari intebe abakiriya ndetse n'abaje gufata serivisi bicaraho.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari ibyuma by'ikoranabuhanga, bikunze gukoreshwa mu buvuzi, bareba neza ko ubuvuzi cyangwa se abarwayi barwaye indwara zitandukanye, bakoresha kureba mu bwonko bw'umuntu ndetse no mu mubiri mu imbere.

Inyubako ngari nini ndetse ikaba ifite icyumba gisukuye gisa neza ndetse irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo za mikorosikope ndetse harimo za mudasobwa n'ibindi bikoresho biri hejuru, zikurura umuyaga ndetse kugira ngo abantu bahumeke neza zizwi nka vandarateri.

Imbaga y'abantu benshi bari ku murongo ariko imbere yabo hari abafite ubumuga bicaye mu tugare. Intebe zibari imbere, ntago bazicayemo kuko bari ku murongo, bategereje serivisi z'ubuvuzi.

Icyumba cyiza cyane gisa neza gishashagirana kirimo ubwiza butangaje. Kirimo ibitanda bigendeshwa n'amapine kandi kikabamo isaha y'ibara ndetse kandi gifite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga utasanga ahandi.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi hahuriye abana, abagore ndetse n'urubyiruko rwiganjemo abakobwa n'abasore, harimo n'umugore uhetse umwana kandi bahuriye ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi hazwi cyane nk'aho bakirira abana ndetse n'abagore.

Umukobwa mwiza kandi muremure w'igikara cyangwa se ni n'imibiri yombi, ari kunywa amazi nk'ikimenyetso cy'umuti wo gukora siporo ndetse no kugira ubuzima bwiza. Yambaye agashapevi ndetse n'agasengeri ndetse n'umwitero yiteye ku rutugu.

Umusore w'ibigango uri mu kugorora ingingo, yambaye inkweto za siporo ndetse n'agakabutura, hejuru nta kintu yambaye, ari kugorora amaboko ndetse ukuboko kumwe akurambuye akugeza aho ukuguru kwe kurangirira.

Avoka, amatunda, inyanya, karoti n'amacunga byose bifasha mu kugira ubuzima bwiza, akenshi nanone iyo wifashishije nk'imyenda ugakora siporo, cyane cyane nk'inkweto zabugenewe.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku uri imbere y'icyuma cy'ikoranabuhanga mudasobwa. Arikwinjizamo amakuru agendanye n'akazi akora ndetse kandi ari hafi y'ibindi byuma bikorana n'koranabuhanga.

Inkweto nziza za timba, zikoreshwa mu buryo bw'umutekano, igihe zambawe n'abapolisi, abasirikare ndetse n'abadaso. Sibo bonyine gusa n'abasekirite barazifashisha.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi mu gutanga ndetse no mu gutanga ibipimo ku bantu bafite ibibazo by'umubiri, ndetse kandi gikunze gukoresha igihe umaze gukora siporo wipima kugirango ngo urebe isukari ufite mu mubiri ndetse n'amazi ari mu mubiri.

Umugabo n'umugore bafite uruhu rw'abazungu, baregeranye, bari kunywa amazi, umwe afite agapara ke, ari kwiranguza amazi, n'undi afite akiwe, ari kwiranguza amazi, umugabo ni ni muremure, umugore ni mugufi.

Umusore w'imbaraga ufite ibigango ndetse akaba afite uburyo agaragara neza, afite amaboko yayashyize ku ivi, ari gukanda ivi rye umenya ryagize ikibazo. Yambaye isaha ndetse n'agakabutura nk'umuntu uri muri siporo cyangwa mu kugorora ingingo.

Umugabo muremure w'inzobe, wicaye kuri esikariye, ari kunywa amazi ndetse afite na terefone, ari muri siporo igendanye n'ingororamubiri kandi ni mwiza, afite ubwanwa ku kananwa.

Umusore w'ibigango ufite agaterefone yabitse ku kaboko, arambuye amaguru ukundi araguhina. Yambaye imyenda ya siporo ndetse n'inkweto za siporo. Ku ruhande rwe hari agacupa k'amazi, hariho aragorora amaguru n'amaboko.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, ikoreshwa mu buryo bwo kugorora ingingo izwi nka siporo afite ubwanwa, ni umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yarambuye amaboko ndetse amaguru arayahina cyane.

Udushushanyo tw'ibipupe twigisha uburyo abana bakwiye gukora imyitozo ngororamubiri, harimo gukina umupira, gukina tayari, kwirukankana imbeba n'injangwe ndetse no kunanura amaboko n'amaguru.

Abasore b'imbaraga bambaye imyenda n'ikweto bya siporo, bari mu muhanda bari kwirukanka cyane. Bari mu bigendanye no kugorora umubiri wabo, kugirango ngo bagire umubiri mwiza kandi uzira indwara.

Umusore wicaye wunamye kandi uriho ugorora ingingo ze, ari hafi y'umuhanda kandi yegereye indabo ziri ku muhanda. Yambaye imyenda ya siporo kandi ari kugorora amaguru n'amaboko.

Igikapu kinini kibitsemo udukarito ndetse n'uducupa, tukaba tubitsemo imiti ivura ku bantu bahuye n'ibibazo igihe bari mu kugorora ingingo cyane cyane nko muri siporo.

Abana benshi bari hamwe mu kibuga, bambaye impuzankano za siporo, bariho barakora mucaka, bari ku murongo umwe kandi bafite umuntu uri kubibafashamo abakoresha.

Icyapa cyiza cyanditseho Repubulika y'u Rwanda ndetse rikaba ari ivuriro ryiza cyane rya gisirikare. Ni icyapa kigaragaza ko ari ivuriro ryita ku basirikare ndetse n'imbabare zituruka ku basirikare.

Umugabo w'umuganga uvura wambaye umwenda w'itaburiya w'akazi, ndetse akaba yambaye n'ikarita y'akazi, ari kugorora umuntu urwaye mu ivi.

Abantu benshi higanjemo urubyiruko rw'abana abasore, inkumi ndetse n'abantu bakuru, abagabo n'abagore, bashungamirije abana bari kubyina imbere yabo, ni abana bari kubyina bambaye impuzankano kandi bishimiye ahantu bari kubyinira.

Umusore muremure w'ibigango, wiyogoshesha inyogosho zigezweho, kuko hejuru hari umusatsi ku mpande harogoshwe burundu, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa w’imisatsi ndetse yambaye agakabutura n'agasengeri ari muri siporo, yambaye n’inkweto ari gusunika icyuma kinini gifite imbaraga nyinshi cyane zidasanzwe, kugira ngo nawe agire umubiri mwiza kandi nk’umuntu ukora siporo rwose.

Umusore w'ibigango w'inzobe, ufite ubwanwa, yambaye agasengeri k'umukara, ndetse n'akandi kantu ku kuboko. Ari kunyw’amazi, avuye muri siporo aragira ngo agire amazi yinjiza mu mubiri, ndetse kuko na siporo yari imaze kuba yatakaza andi.

Icyumba cyiza kirimo intebe zo kwegamirwa, zikoranye ubuhanga butangaje. Kiregamwaho, kikicarwaho ndetse gikoreshwa cyane cyane iyo ushaka kuruhuka. Harimo n'ibindi bikoresho bikurura umwuka.

Ibishushanyo by'amaguru ndetse n'ibirenge, bigaragaza igihe ushaka gukora imyitozo ngororamubiri ko ukwiye kucyambara, ni ikintu kimeze nk'isima wambara igihe uri kwa muganga ariko ushobora wakakifashisha igihe uri mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini kandi kigari, kirimo abantu bagiye batandukanye. Ni icyumba gitangirwamo serivisi zo kugorora ingingo, harimo ibikoresho bikoreshwamo nk'intebe ndetse n'imipira ndetse n'ibindi bikoresho.

Umusore w'ibigango ndetse kandi ufite akaboko kanini cyane, ari kunywa amazi ari mu buryo bwo kugorora ingingo izwi cyane nka siporo, ari kunywa amazi kugira ngo amazi yatakaje agaruke mu mubiri.

Umukobwa uri kunywa amazi mu gapipiri, yambaye imyenda ya siporo, ari gukora imyitozo ngororamubiri, kandi afite uburyo ki yabizemo ibyuya cyangwa se ibyunzwe.

Imbaga y'abantu bari mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo aho ibitanda, bararyamye bamwe abandi baricaye, ndetse harimo n'abaganga bari kwitegereza umurwayi bagiye kuvura, ndetse bari kumwitegereza mu buryo bwa kamera.

Akuma k'ikoranabuhanga gateye cyane nk'isaha, karagaragaza isaha ndetse n'amasegonda, ni agakoresho k'ikoranabuhanga, gasa neza, gashashagirana, utamenya ko ariko.

Umusore uri gukora amasuku mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi, ni hafi y'ahantu hari ibitanda ndetse ahantu hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byo kwa muganga, harimo ndetse za mikorosikope ndetse n'ibindi bikoresho.

Umuntu wagize ibibazo by'akaguru, yagiye kwa muganga ndetse ahura na muganga ari kumufasha, ni ikibazo yagize cyo mu kaguru, ari kumupfuka ahantu yagiye akomereka, kandi yiyambuye urukweto bari gukora hafi yo ku kirenge.

Umwana uri gusimbizwa ndetse kandi akaba yashyizwe hasi, kugira ngo ikibazo afite gikemuke, ari gusimbizwa anashyirwa hasi, bamuzamura bongera bamushyira hasi, ari kumwe n'abaganga, kandi ari kumwe n'abandi bana bakiri bato.

Umusore w'ibigango ndetse wubatse umubiri ari gufata ukuboko kwe akagutsindadagira ku mutima ari m'uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri, n'ikimenyetso cyo gukomera ndetse no kugira ibigango koko by'umubiri we.

Umupira w'amaboko, umupira w'intoki, umupira w'amaguru, umupira wa rugubi ndetse n'ikasike, bikoreshwa mu mikino kandi haba hari akantu k'agatebo banyuzamo umupira kikaba ari n'igitego igihe bari gukina, umupira w'intoki ndetse n'uw'intoki.

Umusore umwe wambaye imyenda ya siporo ndetse kandi yipfutse ibintu mu maso no mu mutwe. Ari mu myitozo ngororamubiri ariko yagize ikibazo mu kuboko, ajya kwipfukisha k'ubifitiye ububasha kugira ngo abashe kuvurwa.

Igikoresho cy'icyuma kizwi cyane aho abantu bamugaye bakunze gukoresha, kizwi cyane kwitwa imbago. Gikoreshwa n'umuntu wavunitse cyangwa se udafite akaguru cyangwa se ufite ubundi buryo abayeho, muri ubwo buryo bw'ubuzima.

Ibibabi by'icyatsi kibisi, ndetse kandi hari isekuru n'umuhini, byose ibyo bibabi, imvangavange yabyo birafatwa bigasekurwa, hanyuma bikavangwa n'amazi bikabyara umuti.

Ibikakarubamba byimeza mu mashyamba ndetse no mu mirima abantu bagenda bahingamo, usanga bifite akamaro ko kuvura indwara zitandukanye nk'inzoka, umutwe ndetse n'indwara z'uruhu.

Ni igiti igiti cyera imbuto, gifite ibibabi by'icyatsi kibisi ndetse n'utubuto turi kugenda twera, ni imbuto ndetse n'ibiba bifite umumaro munini cyane wo kuvura indwara nyinshi zitandukanye haba inkorora ndetse n'izindi.

Igiti giturukamo imbuto z'ibishokoro kiba gifite utubabi kandi kikagira n'indabo nziza kuko amasazi ndetse n'ibindi byose biza guhovya muri utwo turabo. Na cyo kigira umumaro wo gutanga umuti, cyane cyane iyo uwutetse ukaba wawufata, gishobora gutuma hari indwara utarwara.

Imiti ipfunyitse mu ducupa ndetse n'imiti ipfunyitse mu tujerekani ndetse n'udukarito, ni imiti ikoreshwa mu buvuzi bakayungurura amaraso kugira ngo barebe ko nta kintu cy'umwanda waba urimo.

Imbaga y'abantu benshi abagabo ndetse n'abagore bari ahantu habereye ikirori, hari abantu bari kwitegereza inzoga zigendanye n'inkorano kandi ni inzoga zipfundikiye mu macupa agezweho.

Agacupa kamwe kabitse umuti uvura indwara, ni umuti ukorerwa mu ruganda kandi iyo miti iragurwa igatanga serivisi zigendanye n'ubuvuzi ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi barafashwa cyane.

Umuti uturuka mu bimera ndetse no mu bihingwa bitandukanye uhingwa n'abantu benshi, uratunganywa biturutse mu bimera ndetse ugashyirwa mu gacupa ukitabwaho ndetse ukavura abantu bafite ibyo bibazo bitandukanye.

Uducupa dutoya tubitse ibikomoka ku miti y'ubuvuzi. Ndetse kandi harimo n'udukarito tubika imiti, ndetse iyo miti imara igihe kirekire.

Umugore uri kureba hirya ndetse ari kumwe n'abandi bagabo, bari ku bigendanye no gufata imiti ituruka ku bimera ndetse ni ibinyobwa byo kunywa bituruka ku bimera kandi bikaba bifite n'aho bihuriye n'ibyo kunywa.

Indabo nziza, kandi zegereye hafi y'utumamiro, turimo imiti itandukanye, yaba iby'ibinini, ndetse n'ibibabi byinshi, biri mu gakombe kagezweho k'ikirahure

Ibikoresho by'amacupa ndetse n'utujerekani n'udukarito, bipfunyitse imiti ya kera kandi ivura indwara zigendanye n'uruhu ndetse kandi n'imiti yakorewe mu bihugu byo hanze.

Ibiko rinini ribitse imiti ibitse mu dukombe dutoya ndetse n'uducupa dutoya ni imiti ituruka ku bimera, ikariko igatunganyirizwa mu ruganda kugira ngo ibe yafasha abafite ibibazo by'uburwayi.

Udukarito twinshi tuba tubitsemo ibinini ndetse n'udukarito tubitsemo ifu ivura ndetse ikanarinda indwara zitandukanye ku ndwara zitandura, harimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso, igifu n'izindi ndwara zitandukanye.

Ibibabi bituruka ku biti byimeza byitwa imiravumba, ni imiravumba ivura ndetse ikanarinda abantu bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi, ku bantu bafitiye inkorora, umutwe ndetse n'amagiripe agiye atandukanye, iki kibabi kirabafasha.

Ibibabi by'icyatsi kibisi bituruka ku biti, ni ibibabi bifite umumaro munini wo gutanga imiti iturutse ku bimera. Ndetse ibyo bibabi akenshi ushobora kubihekenya, cyangwa se ukabiteka bikavamo umuti.

Agacupa kameze neza nka korogate, kabitsemo umuti. Ni agacupa gasa n'umweru kandi kabitse umuti uturuka ku bimera. Uvura ibigendanye n'indwara zigenda zituruka ku ruhu. Kandi uwo muti ukurwa ahantu hagiye hatandukanye.

ibiko ribitse uducupa turimo imiti ituruka ku bimera, ni imiti ivura indwara zitandukanye haba imivuduko y'amaraso ndetse kandi n'izindi ndwara nyinshi cyane ziza ku bantu.

Nawe tangira urugendo rwawe, utu ducupa tubitse imiti myinshi ivura ikanarinda zimwe mu ndwara zitandukanye, ni uducupa tuba tubitse imiti ituruka mu nganda kuko iyo miti iba yasuzumwe ndetse igatunganywa neza.

Umuntu ufite udukoresho atunganyirizamo umuti. Hafi y'iwe hari ibindi bikoresho akoresha, ndetse kandi haganjemo n'amakara. Ni imiti ya kinyarwanda, ivura indwara zitandukanye, ikanarinda indwara zitandukanye.

Iduka rinini ricuruza imiti ya kinyarwanda ariko iyo miti ikaba yarakozwe mu ruganda, kuko iba ifunitse mu ducupa no mu dupipiri, ikagira igihe irangirira ndetse ikagira n'igihe itangirira kuba yakora igikorwa cyo kuvura.

Umugabo uri mu murima we yahinze imbuto ndetse ahinga n'ibijyanye n'umuti ivura inkorora n'amadiyabete kandi ariho arayivomerera kugira ngo cye neza, ni umuravumba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibyatsi bya kimeza ndetse n'ibyatsi bituruka ku buhinzi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'ibibabi bituruka ku mazi ndetse kandi n'imbuto zituruka ku biti bigiye bitandukanye, byose ni bimwe mu bituma umuntu akira indwara zitandukanye kandi havamo n'imiti.

Ibibabi bitanga umuti, ndetse n'imbuto zitanga kuryibwa ndetse n'imiti. Ni ibibabi bituruka ku biti, ndetse n'imbuto zituruka ku biti, byose bikaba bifite umumaro wenda gusa.

Imiti ipfunyitse mu tujerekani ndetse no mu ducupa twiza, ivura indwara zigiye zitandukanye, yaba iz'uruhu ndetse n'izo mu kanwa, ikaba ifite akamaro ko gukiza abantu bose bafite ubwo burwayi.

Imiti ituruka ku bimera, cyane cyane imiti y'icyatsi kibisi ndetse n'imbuto zigenda zituruka ku bimera, bivugwa cyane nk'ibintu bituruka ku kuba byatanga umuti ku bantu bagiye barwaye indwara zitandukanye, yaba iz'uruhu ndetse n'izindi.

Igicupa kinini kimeze nk'akajerekani, kiri gushyirwamo umuti ndetse kandi bigaragara ko kizagira amagarama cumi n'arindwi, umuntu uwo ari wese wifuza kuba yagura uwo umuti azawugura.

Ikibabi gisa n'icyatsi kibisi kikaba ari ikibabi giturukamo imiti ivura, ikanarinda indwara zitandukanye, kiratunganywa kikavanwamo imiti myiza ivura uruhu ndetse n'izindi ndwara zitandura nka diyabete, imitima n'izindi.

Ibinini bibitse mu kantu gasa n'imbehe nini, kandi ibyo binini birasa n'icyatsi kibisi kuko bituruka ku bimera. Ni ibinini bisa n'icyatsi kibisi kandi ni byinshi cyane ku buryo utabibara ngo ubirangize.

Uducupa tubikwamo imiti ivura ikanarinda indwara zigiye zitandukanye. Ni uducupa dusa n'umweru, kandi tubitsemo imiti inavura, kandi iyo miti iba yaraturutse mu bimera.

Imbuto zizwi cyane nka tangawizi akenshi iyo uzikase ukazirapa cyangwa ukazishyira mu mazi, ukazivurisha cyangwa se ukazinywa zituma ibibazo by'umubiri ufite nk'indwara ufite zigenda cyane cyane nk'iyo urwaye, umutwe, bicurane, inkorora zirakira.

Ikibabi kivura inkorora ndetse kikavura umutwe, kizwi cyane nko kwitwa umuravumba. Ni ikibabi gifite aho cyera mu cyaro, akenshi na kenshi niho gikunda kuba kiri, ndetse no ku gihuru ni ho abenshi babisanga.

Uducupa n'udukarito dutanga imiti ndetse tukaba twatanga n'ubuvuzi ku bantu bose bafite ibibazo bigendanye n'imibiri yabo, kandi ni imiti ituruka ku bimera. Ni imiti iba yaturutse mu nganda abaganga bayikoreye ubushakashatsi.